Ibitaro byubakishije amabati y'umweru bisize irangi ry'umuhondo ndetse no ku nzugi zaryo rikaba risize ibara ry'icyatsi, ibitaro ni byiza cyane kuko abantu baza gushakaho serivisi , barangiza bakabaha imiti maze bagakira, igihe barwaye

Ibyatsi by'inteja biri munsi y'amakoro. Ibyatsi abantu barabikunda kubyahira, kuko amatungo yacu abirya buri munsi, bigatuma ingurube, inka zacu bikura neza cyane.

Ibyatsi bitohagiye bimeze neza cyane, abantu bakunda kwahira ibyatsi bitohagiye, kuko n'inyamaswa zikunda kubirya, maze n'inyamaswa zibiriye zigakura neza cyane.

Umuravumba uri hagati y'amakoro ni mwiza cyane, kuko abantu bakunda kuwuhekenya nk'igihe barwaye mu muhogo cyangwa inkorora, maze ukabafasha gukira.

Icyatsi cy'umuravumba cyameze hagati mu ikoro. Icyatsi cy'umuravumba ni cyiza cyane kuko hari igihe umuntu aba ari gutaka umutwe cyangwa arimo kuribwa mu ijosi, aragenda agasoroma iki cyatsi, iyo agihekennye umutwe uragabanyuka ndetse n'inkorora igacika, maze agakira.